Aha turi ni mu kigo cy'amashuri aba bana bane bahagaze hanze y'ishuri barangariye mugenzi wabo umwe ari gushyira utuntu mu gikapu, bisa nk'aho bashobora kuba batashye bakaba ari kubika amakayi yabo ngo bahite bataha.